Izintebe ni nziza, nameza ni meza, ariho imashini harihoho n'akazu asakaje ibyatsi, impande y'izintebe hariho, indabo zimeze neza.

Abantu babiri bafite inzoga za fanta. Fanta bari kuzinywesha umuseke kandi impande yaho hari andi makesi n'intebe z'umutuku, n'ameza y'umutuku abantu bagiye kunywera hano mu kabari.

Abantu bari kunywa imbere, yabo hariho ibinyobwa bitandukanye, hariho amaterefone, ameza arasa neza, akozwe mu giti kinini, abyibushye.

Abanywi bari kunywera mu birarahuri, ubundi tunywera mu bicuma, aba bo bari kunywera mu macupa ameze neza, asukuye, banyweraga mu nkiza, no mu bicuma, no mu bikopo. Ubu rero dusigaye dukoresha ibirahuri n'amacupa.

Aha hantu hateguwe neza harimo intebe nziza, ameza meza, ameze neza. hano hantu hameze neza umuntu yahiyakirira akahakorera inama, akaba yahakorera n'ubukwe, hateguye neza haratunganyije rwose.

Inzu iriho umuntu wicaye ku muryango, hariho irangi ry'umweru n'irangi ry'umukara, hejuru hariho amakaro y'umweru, ku muryango hariho igare.

Imodoka ipakiye amakesi y'inzoga, hari umutaka bitwikira barimo gucuruza mitiyu, hari umunyegare uhetse ibase n'umudamu.

Farumase y'imiti, imbere ya ho hari umuntu uhetse igikapu, ari kugenda ari kuvugira kuri terefone. Yambaye inkweto, afite, iyo farumasi irafunguye, imbere ya ho hariho n'agapuberi.

Kera twambaraga ibirenge tukagenda mu muhanda ariko ubu turambara inkweto, tukambara imyenda idoze neza tukajya mu isoko tukagura. Amasoko ubu yaratwegereye kugera mu isoko byabaga bigoye aho n'umuntu yakuraga atazi mu isoko ariko ubu n'umwana arayigenda no ku ikoranabuhanga akamenya isoko.

Inzu ziri impande y'ibiti binini, hariho igiti cya pinusi, akabaho n'igiti cya geveriya, ku muryango hicayeho umuntu, hariho n'umufuka w'umuhondo.

Umugati wo gukoresha mu bukwe n'inzoga zo gukoresha mu bukwe, isambusa, amandazi, amacapati, n'imifungatayi, na fanta, ibi bintu nibyiza kandi byose biraryoshye.

Inzu iriho ibyapa bicuramye, ifoto nayo iracuramye uwayifotoye yayifotoye macuri, ariko ni inzu nziza nuko bayifotoye macuri ariko imeze neza.

Inzu nziza ziteye irangi ry'umuhondo ritari umuhondo cyane, impande yaho hari imodoka hejuru haciyeho insinga z'amashanyarazi, izi nsinga zijyanye umuriro mu bantu kugira ngo bakongeze bave mu icuraburindi.

Umuntu uri gucuruza amakara ari mu mufuka, impande hariho ibikarito, agacururiza ibindi bicuruzwa mu idirishya.

Isambusa ziri mu kagapaniye ko kuzitwazamo kugira ngo zimere neza zirasa neza cyane, kuko bazitetse bazishyize mu mavuta barashaka kuzicuruza kugira ngo abakiriya nibaza bazisange zimeze neza.

Imyenda iramanitse ndetse hariho n'ibiriringiti, hariho n'amashuka, n'imisego yo gushyira ku mutwe uryamye. Iri soko ririmo ibintu byiza harimo amapantalo, harimo n'amashati, n'amakanzu, n'udukabutura tw'abana.

Inigi bambara mu ijosi. Hariho n'imikufi na yo bambara mu ijosi barimbye. Ikiganza gifashe izo ngori kiri kwerekana uko amabara yazo asa, Harimo umukara n'umweru.

Inzu yanditseho ibara ry'umweru，ijambo ryitwa ”Azaniya”. Imbere y'inzu hariho igicuruzwa gisa n'umutuku， udukarito umucuruzi atsikamirijeho ni amabiswi.

Isoko ry'ibikapu by'abanyeshuri hari ibikapu byo gutwazamo amakayi, mu mpande y'aho hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, harimo ibikapu by'umutuku ,hariho ibiririho ubururu...

Abantu bari kugenda ku magare，Impande yaho hari imodoka ifite amapine, inyuma isa n'icyatsi，hirya hariho irangi ry'umweru, ifite n'inkingi eshanu.

Inzu imeze neza, yubatse neza, inkingi zayo ziteyeho akarangi, kubaka bya kijyambere ni byiza, haparitseho moto, hugamyeho n'abagore, bigaragara ko imvura iri kugwa.

Imyenda iri mu isoko rya kijyambere, ririmo n'amatara, rimeze neza, kandi ubundi bambaraga ubusa, abandi bakambara impu, umucuruzi na we yambaye agapfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda indwara.

Ishyiga rya kijyambere batekaho. Kurikoresha bisaba kuritereka aho umwana atakubaganya, kugira ngo ritagira ibyo ryangiza. Igare ritwara amashyiga ku baguzi baguze, ushaka waritwaraho kandi kugira ngo ni uburyo bwo kuritwara utekanye.

Inzu yubakishije amakaro, mo imbere harimo farumasi, hanze hari umutaka w'umuhondo n'ingtebe, y'urubaho, n'intebe yo kwegamira.

Amafoto hano bafotoye acuramye, harimo abantu ariko baragaragara nk'abacuramye, hariho n'imitaka icuramye n'igare ricuramye, hari harimo ibicuruzwa harimo utumushwara n'ibindi.

Banke ofu kigali iyi banke tubikamo amafaranga, tukabikurizamo amafaranga yacu tukayakoresha mu buryo bwo kwiteza imbere, no kwikura mu bukene kuko kubitsa no kubikuza ubundi twabikaga mu buhinzi.

Iyi hoteri yitwa Raparume iri mu mujyi wa Musanze, indabo ziteyeho imbere, ni umutako unezereza abayijemo. iyi Raparume ifasha abantu kubona icyo kurya cyiza, ndetse hakabamo n'amaroje abantu baruhukiramo iyo bananiwe, habamo n'ibyo kurya byiza.

Umucuruzi acuruza amakara, ibihaza, ibisheke n'ibindi bintu byinshi gucururiza mu nzu yubatse neza kandi ikoze neza, gucuruza ubundi umuntu yacuruzaga bacuruzaga inzoga, bagacuruza ibirayi ariko bakabicururiza ahantu hatameze neza ariko ubu ni byiza cyane.

Ibikoresho by'ubukanishi birunze impande y'inzu, irakinze, ariko bigihe bitandukanye, ndabona amasupani arimo n'imyambaro, harimo n'amasentire yo kwambara bari mu kazi.

Ururabo ruteye ku gipangu, ururabo rufite amababi y'icyatsi asataguje, uruyange rwarwo rusa n'umutuku ariko uru rurabo rurimo amoko abiri atandukanye.

Inzu yubatse neza. Iriho amakaro, ifite urugi rusa n'icyatsi. Umuntu wicaye ku muryango, inyuma yayo hari ibiti. Impande yaho hariho inzu yindi isakaje amabati.

Iyi nzu ni alimantasiyo yubatse neza. Imbere yaho hariho akarabo kazungurutse ku muryango. Aka karabo gasa n'umuhondo n'icyatsi bivanze. Yicayeho umuntu waje kubateza imbere.

Ibishushanyo by'amayoga banywa, amayoga anyobwa muri bare ibamo nibiryo, iyi resitora bayicururizamo ibiribwa n'ibinyobwa.

Aka kantu gateguriyemo igitunguru cy'umutuku k'ikijumba. Iki gitunguru ni cyiza kugikaranga mu mavuta, kukirya hejuru ku biryo, cyaba cyiza ukagishyira mu biryo, bigahumura neza cyane.

Iyi hoteli ni nziza cyane ikorera mu Karere ka Musanze, yubatse neza, yubatse hafi ya kiliziya, ifite ibara ry'igitaka, ifiteho n'ibara ry'ubururu, imbere yaho hariho abasekirite bayicungira umutekano.

Isoko rifite akajagari, kubera ko bamwe bari gucururiza hasi, abandi bari gucururiza mu mazu bubatse, ariko ntabwo bimeze neza kubera ko harimo akajagari.

Isoko ritubatse ritameze neza bari gucururiza hanze izuba riri kubaviraho , gucuruza neza bisaba kubaka isoko bagakorera ahantu hameze neza, imvura iramutse iguye yabanyagira bamwe baratwikiye ,abandi ntabwo bitwikiye.

Uruganda rw'inzoga rucuruza inzoga zo mu macupa zifunze. Uru ruganda aho ruri hari iterambere ku barukoreramo, ndetse n'abanywa bakabona inzoga bya bugufi.

Umucuruzi ari gucuruza imyaka iri mu mufuka, umunzani uri ku muryango ufite akabase k'ubururu, umucuruzi wa mitiyu nawe barimo baraganira, baganirira impande y'umutaka.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa harimo amaji, amafanta ndetse n'ibindi. Biri mu macupa ya pulasitike kandi amacupa ya pulasitike aba atera atera umwanda aho bayajugunye, bivuze ko tugomba kujya tunywa tukayajugunya ahantu twizeye kugira ngo adateza.

Inzu nziza iriho amakaro, ikingishije urugi rw'ubururu n'ingufuri, hariho icyapa kivuga ngo twambika abageni.

Iduka ry'imyenda, riri mu nzu nziza, inzu yubatse n'amakaro y'itaka, umucuruzi ari mu mutaka n'umuguzi, bari guciririkanywa ku bicuruzwa byabo.

Inzu zubatse neza zifite inzugi z'ubururu, izindi zifite inzugi z'icyatsi, imbere hariho umuntu, inkingi zazo zisize amarangi y'ubururu. Inkigi imwe ivanzemo ubururu n'icyatsi.

Bari kudoda imyenda bafite imashini, hariho n'iduka riri gucuruza ibitambaro, ndabona ari ibitambaro by'abagabo, hariho n'anverope zo kubitwaramo iruhande rwaho hari akameza ko gucururizaho.

Iyi nzu yubatse neza， iriho icyapa cyo kwamamaza， ariko nta suku ifite. Ni nziza ariko ntabwo bayitayeho irafunze， imeze neza ariko isuku ni nkeya.

Inzu iriho igishushanyo kiriho abantu, umuntu w'umukobwa ufite umusatsi mwiza, yanditseho n'ijambo ryandikishije umukara, hariho n'ibishushanyo by'imyenda, amarinete ndetse n'ingofero.

Inzu ifite urupangu rw'umukara mw'imbere mu rupangu harimo n'indabo, hejuru ku rupangu hariho icyapa cyanditseho sikolu ndetse n'ijambo motani moteri, iteye irangi ry'igikara.

Iyi hoteri ya La Palme, iriho ururabo imbere, ishushanyijeho amazina yayo, imbere yaho hariho indabo zirimo umuhondo n'icyatsi. Yubakishije amatafari ahiye.

Ameza ateguye neza, ariho agatambaro k'umutuku, ariho icupa ry'amavuta yo kwisiga ya gikotoro, impande yaho hariho intebe zizengurutse ameza.

Umuntu utwaye imashini, iyi mashini ayitwajije ukuboko kumwe, yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu. Umuntu agaragara nk'aho ari umunyeshuri uri kwiga.

Umuntu uri gucuruza imyenda imanitse ku kantu, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, afite agakapu imbere yakenyeye, yambaye n'umukufi mu ijosi n'agakomo ku kuboko.

Umugore uri kurenga amashaza ari ku nkoko, harimo n'intonore n'igitoke, ndi kubonaho n'ibirayi n'ibishishwa n'amageri.

Kera baracuruzaga bagacuruza ibintu bitameze neza. Ubu barimo baracuruza amabase, indobo kugira ngo tujye tubona aho dutwara ibikoresho byacu neza. Kera batwaraga ibiryo mu gitebo, ubu turabitwara mu ndobo, waba ufite abakozi bawe ukabitwara mu kadobo nta kibazo gihari. Kandi kera bakarabiraga mu rujyo ubu turakarabira mu mabase dutekanye.

Umuntu uri gucuruza indagara zumye, impande yaho hariho amafi na yo yumye, aba akawushije mu mavuta, aya mafi agira isosi, indagara baziteka mu biryo mu rwego rwo kurwanya imirire mibi.

Umugabo uri gutera ipasi imyenda y'umukara, impande ye hariho icyapa kivuga ngo n'iho baterera batereza ipasi ihanagura, bagahanagura n'imyenda, impande ye hariho imyenda...

Isoko ry'imbuto ibinyomoro, amapapayi, amatunda, imineke, avoka, n'ibindi byinshi. Iterambere ni ryiza ibi bidufasha kurwanya imirire mibi ku bana, ndetse no kuri buri muntu wese ubuzima bukagenda neza nta kibazo.

Gucuruza amafu, gucuruza amavuta, gucuruza ibiribwa. Ni isoko ry'ibiribwa turacuruza ibiribwa, kera bacuruzaga ibishyimbo ariko uyu munsi turi gucuruza amafu, dukoresheje utudobo n'udufuka. Amavuta araza mu tudomoro ubundi yazaga mu madebe, ubu dukoresha udufuka n'utudobo.

Ibitoki bya kamara barabicuruza, bakabiryamo imineke, bibamo n'umuti, ngiye kubijyana mu isoko, babitaramo imineke.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye harimo amafu, harimo ibishyimbo, harimo ibikoresho by'isuku, harimo n'imifuka ya sima. Umucuruzi afite ibicuruzwa bitandukanye kandi byiza.

Abacuruzi bari gucuruza karoti, imiteja, ibitunguru ndetse bari gucururiza ahantu hafite isuku hameze neza, nabo bari gucuruza bishimye kubera ko bari gucuruza ibintu byi....

Umucuruzi uri gucuruza imbuto, arimo aracuruza imboga, imineke ya kamara, ibinyomoro, ibitunguru, amashu, umucuruzi arimo aracuruza ibintu byo kurwanya imirire mibi, n'igwingira ku bana.

Abacuruzi bari gucuruza intoryi, ibitunguru n'inyanya na beterave, bari gucururiza hasi ibintu byabo nta suku bifite kubera ko bari gukorera hasi.

Imyenda y'abana ifunze mu gakapu. Hariho n'ingobyi bahekamo abana mu mugongo. Hariho n'ibikoresho byo kubibinda abana na kigoma zo guhekamo abana.

Inkweto zivanze zirimo iz'umukara harimo iz'umweru, izi nkweto ndabona zose inyinshi ari iz'abakobwa cyangwa se abagore kandi z'inkweto ni nziza cyane.

Abantu bari gucuruza ibihaza, ibihumyo n'imbuto ziribwa zidahiye za kokombure. Bazirya bazihekenye.

Mu isoko bacuruzamo inkweto, imyenda n'ibindi. Gucuruza bisaba ubushobozi, udafite ubushobozi ntabwo wacuruza ngo bishoboke, bisaba kuba ufite urushoro washoboye, kugira ngo ubone ibicuruzwa.

Isoko ry'imboga, ririmo intoryi, inyanya, karoti, ndetse harimo n'abaguzi. Ibyiza byose bisigaye bigera ku bantu neza nta kibazo kuko iterambere ryaratwegereye, amasoko yaratwegereye.

Ibyibo bifite amabara y'umutuku, ibindi bifite amabara y'ubururu. Ibyibo babitwaramo amapfukire batwerereye nk'ahantu, ubundi wajya no gusura umuntu ugashyiramo ibyo wamuteguriye umujyaniye.

Iduka ririmo ibikoresho by'amaterefone, amacagi, ndabonaho n'amatelefone arimo.

Twacanaga dukoresheje ibishashuro, none imbabura za kijyambere zaraje, imbabura ikozwe mu ibumba n'akandi kuma kameze nk'akabati ugashyiraho, aya ni amashyiga yo guterekaho isafuriya, ugateka washyizeho n'amakara ukarya ibiryo byawe bihiye bimeze neza.

Umuntu uri gucuruza inkweto za bodaboda. Ni inkweto bambara ahantu hose. Hari na kamambiri bambara bari gukaraba. Umuntu ufite ikintu cyanditseho gisa n'ubururu.

Umucuruzi uri gucuruza amasabune, amavuta atandukanye, amasabune y'amasukano, amasabune yo mu dukarito, amwe yo gukaraba, ndetse afite amavuta yo mu gikotoro n'amazi.

Isoko ry'ibiribwa rya Musanze, harimo abantu bari kugenda bambaye ibisarubeti, hari abambaye amashati y'umukara, ipantaro y'umukara, harimo imitaka y'abacuruzi.

Isoko ryacu ryiza rya ruhengeri. Ubu dufite isoko rya kijyambere, ubundi twacururizaga hasi bakacuruza inyanya bagashyira hasi tukavangavanga ibiryo n'imyenda, ibikoresho byo mu nzu, ibintu bitandukanye, ndetse bakabivanga. Ariko kubera umuyobozi wacu mwiza yaduhaye isoko ryiza rya kijyambere bita goyiko puraza, birashimishije cyane rwose kurijyao umubona ari sawa.